Hano haragaragara abantu benshi cyane bicaye muzu imwe bategereje kumva inama abagaragara imbere bambaye imyenda y'icyatsi kibisi.

Uyu mubyeyi afite mikoro mu ntoki ze. Afashe agakayi bakunda kwita ajenda. Ari gusobanura ibijyanye n'ibintu bitandukanye. Inyuma handitse amagambo atandukanye ari mu mabara y'umweru.

Aba bantu biganjemo abagabo bicaye ku ntebe nziza kandi biragaragara ko bateze amatwi, uri imbere ku ruhande rw'ibumoso yambaye ishati iri mu ibara rya orange ndetse yarengejeho ikote.

Uyu mugabo yambaye ishati, yambaye kandi isaha, inyuma ye hari ikibaho cyantseho amagambo bigaragara ko ari kwigisha.

Aba bantu bari mu nama, bicaye bateganye, bamwe bicaye iburyo, abandi ibumoso, imbere ya buri bose, hagiye hari ameza ateretseho amazi, uri kubabwira uhagurutse, ni umugore.

Uyu muntu afashe indangururamajwi. Ukuboko kw'ibumoso yakurambuye. Yambaye ishati nziza idoze neza. Inyuma ye haragaragara ibara ryiganjemo ubururu.

Aba abantu bose baricaye, bari mu cyumba bose kandi bigaragara yuko bahanze amaso uri kubabwira. Bateze amatwi, umugore uri iburyo yambaye ikanzu y'ubururu.

Aba bantu ni benshi, buri umwe agiye yicaye mu ntebe ye. Bambaye imyambaro itandukanye kandi bari mu cyumba kimwe. Barakurikiye nkaho hari umuntu ufite icyo ari kubabwira.

Aha hantu hateraniye abantu benshi. Umwe muri bo yahagurutse, afite indangururamajwi mu ntoki. Ni umugabo yambaye ishati, yarengejeho n'agakote.

Aba bagabo batatu bose bari gukoma mu mashyi. Babiri bari iburyo bambaye amakote y'umukara ndetse na karavate. Mu gihe uri iburyo we yambaye ishati gusa. Inyuma yabo haratatse.

Uyu muntu ni umugabo. Yariyogoshesheje, yambaye amataratara. Yambaye ishati iri mu ibara ry'umukara. Isaha mu kuboko kw'ibumoso. Afite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo.

Aba bakobwa niba atariri abahari cyangwa abategarugori bambaye neza bya kinyarwanda barimo barakoma amashyi, bahagarariye umuco nyarwanda.

Uyu mutegarugori yambaye imyambaro y'umweru imikenyero n'imyitero, arimo kubyina imbyino za kinyarwanda azibyinira ahantu hateguye neza kandi habereye ijisho ku itapi y'icyatsi kibisi.

Hano haragaragara amabara y'umweru n'umukara, ni igishushanyo cyiza gikunze kugaragaza ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Aba bantu ni benshi. Bari kugenda mu muhanda w'ibitaka. Bafite amasuka. Bambaye imyambaro itandukanye. Iruhande rwabo hari ibiti birebire kandi bitoshye.

Uyu muntu yambaye amayugi. Ku maguru ye hazengurutswe n'amayugi. Akandagiye ku mbuga. Ashobora kuba ari intore ibyina kinyarwanda.

Aba bagore ndetse n'abagabo bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bakenyeye ugaragara cyane afite imikenyero iri mu ibara ry'umweru.

Iyi nka yitwa Inyambo, ifite amahembe ateze neza akoze ishusho y'umutima, iri mu rwuri rutoshye rwuje ubwatsi ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uyu muntu ugaragara hano ashinzwe gukora amashanyarazi. Ni umukozi ubizobereyemo. Yuriye ku giti hejuru kimanitseho insinga z'amashanyarazi yifashishwa mu kuwukwirakwiza mu baturage.

Aha haragaragara umuntu wambaye kasike ndetse ari hejuru y'ipoto ari guhuzahuza ibintu ku nsinga ziri mu mabara y'umukara.

Aba bantu bagaragara bari hejuru y'umunara w'amashanyarazi. Barimo kuwukora, barabihuguriwe, bazi uko bikorwa. Iburyo hari undi munara w'amashanyarazi. Mu gihe inyuma na ho hari undi munara w'amashanyarazi. Byose biri ahantu hari ibyatsi.

Iburyo n'ibumoso bw'uyu muhanda, hari insina ndetse n'ibiti. Ukokomeje ureba ahagana imbere, ibumoso hubatse inzu. Uyu muhanda kandi ni uw'ibitaka. Uri kugendwamo n'abantu.

Iri ni ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi, riri mu mabara y'umweru, inyuma yaryo hari ibiti byinshi, ariko witegereje neza hejuru wabona ikirere, kirimo amabara yiganjemo ubururu n'umweru.

Uyu mukobwa arimo aradoda imyenda, iruhande rwe hamanitse ibitenge, afite imashini eshatu zo kudoderaho, muri izo eshatu arimo arakoresha imwe.

Izi ni inzu eshatu. Iri imbere iragaragaraho ibara ryiganjemo iry'umweru. Ibumoso hari akandi kazu gato. Mu gihe iri inyuma ari yo nini.

Iyi nyubako ni iy’ishuri. Iracyarimo kubakwa, ntabwo irarangira. Ifite amabati ari mu ibara ry’ubururu, mu gihe amadirishya n’inzugi bitarashyirwamo. Hagaragara kandi ko hari ahantu hubakirwa.

Hano haragaragara amapoto y'amatara yo kumuhanda ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki amwe agenda andi agaruka. Haragaragaramo imodoka ndetse hirya hari imisozi.

Iyi ni inzu nziza yubatse mu buryo bwa kijyambere ni iya Leta, ishobora kuba hari urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana acyenda mirongo icyenda na kane.

Iyi nzu igaragara hano iri mu bwoko bwa etaje, ifite amabara atandukanye yubakishije amatafari, imbere yayo hari ubwatsi butoshye.

Hagaragara ibiti biteze ibikwa by'inzu iri kubakwa kugira ngo baze gushobora kumenamo sima, iri bukomeze iyi nzu iri kubakwa.

Hano haragaragara Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ni ryo rigaragara imbere hejuru, inyuma y'iryo darapo hari inzu yubatse neza isakaje amabati y'umutuku, ndetse iyo nzu iri mu mabara yiganjemo ay'umweru.

Iyi ni inzu ya kijyambere isakaje amabati ari mu ibara rijya gusa umutuku imbere y'iyo nzu hari imodoka ihagaze ndetse hagaragara n'abantu muri iyo nzu ariko batinjiyemo im imbere.

Iki ni icyapa. Kiri mu ibara ry'umweru, handitseho amagambo mu mabara y'ubururu, cyane cyane ku gice cyo hejuru, naho hagati amabara y'umukara munsi nanone ay'ubururu.

Iyi ni sitade, hagati haragaragaramo umurongo w'umweru urombereje ugenda ukagera kuri sitade, aho abafana bicara barimo barareba ibiri kuberamo, muri iki kibuga gifite ubwatsi bw'icyatsi.

Iyi ni inyubako ya Leta iragaragaramo umuntu wambaye imyenda iri mu ibara rya kaki yitwa umucungagereza, imbere ye hari umuturage wambaye itiriningi y'ubururu, akaba afashe n'igikapu ukuboko kw'iburyo.

Aba bantu barimo baratambuka, batambuka mu muhanda uri kubona ko bahuje umugambi, benshi muri bo bambaye ingofero zifashishwa n'abubatsi, yaba abafundi ndetse n'abafasha abafundi kubaka.

Hano hagaragara ubufatanye bw'inzego z'umutekano ndetse n'ubw'abaturage, harimo abasirikare bambaye impuzankano za gisirikare, hakabamo umugore umwe ndetse n'umugabo w'umusivile wambaye ishati y'umweru.

Iyi nzu isakaje amabati ari mu ibara ry'uburu, ifashwe kandi n'amatafari biragaragara ko ari isoko.

Iyi nyubako yubatswe n'amabati ari mu ibara ry'umutuku, iragaragaramo ibigori byahunitswemo n'abahinzi kugira umusaruro wabo ubashe kwitabwaho.

Uyu muntu uri imbere yambaye ikote n'ishati mu maso yambayemo amataratara ari mu ibara ry'umukara, inyuma ye kandi hari abandi bantu benshi, iburyo bwe hari umusirikare.

Aba bantu ni benshi bateraniye hamwe. Abenshi muri bo bagiye bicaye ku ntebe, mu gihe umwe ahagaze kandi afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Aba bantu bari ahantu hamwe. Benshi bahagaze bateganye n'umugabo umwe wambaye ishati. Inyuma ye haragaragara igiti ndetse n'amashuri yubatse neza.

Aba bantu bicaye ahantu hamwe, bose bambaye udutambaro turi mu ibara ry'ivu tugaragaza yuko bari mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi.

Aba bantu bari kuganira ni benshi, inyuma yabo haragaragara inyubako z'amashuri, ubusitani ndetse n'abandi bantu.

Uyu mugabo uri kugaragara cyane, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, hirya ye hari agatente kubakishijeje, ibintu biri mu mabara y'umweru n'umuhondo, hakaba n'abaturage benshi.

Aba bantu bahagaze kuri tapi ni benshi bambaye imyambaro itandukanye, aho bahagaze hari ibara ry'icyatsi kibisi, mu gihe inyuma y'aho hagaragara urukuta rw'inzu.

Aba bantu bafite indabyo, abagabo babiri bafashe inkoko iriho ururabyo, rwiza ruri mu ibara ry'icyatsi, bigaragara yuko bagiye kwibuka abantu runaka bapfuye cyangwa abazize nka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Aba bantu bose bicaye ku rubaraza rw'inzu, buri umwe afite intebe ye imbere yabo hari ameza abajwe mu giti.

Aba bantu harimo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze mu byatsi, ibumoso bwabo hari itenti iri mu ibara ry'umweru.

Aba bantu bihurije hamwe kugira ngo bajye gushyira indabo ku rwibutso, ahashyinguye abantu, uyu uri imbere ugaragara cyane afite indabyo agiye gutereka ku rwibutso ziri mu ibara ry'icyatsi.

Aba baturage bari mu gishararagati. Harimo n'inzego z'umutekano kuko ibumoso hari umusirikare, hanyuma ibuburyo haragaragara umupolisi. Abandi bose bari mu ifoto ni abaturage basanzwe bari mu gisharagati.

Aba baturage basuwe n'ubuyobozi harimo abasirikare, harimo umusirikare umwe n'umupolisi ndetse n'abandi bayobozi basanzwe b'abasiviri, imbere yabo urahabona abaturage bakurikiye.

Aba bantu bateraniye mu kibuga hisanzuye ni benshi, imbere yabo hari inka ihagaze mu bwatsi bwiza kandi butoshye.

Aba bantu ni benshi kandi bateraniye ahantu hamwe. Haragaragaramo inzego z'umutekano. Hari umusirikare umwe ndetse n'umupolisi umwe uri iburyo.

Aba bantu ni benshi, bamwe bari imbere baricaye, mu gihe abari inyuma bahagurutse, bagiye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Hano haragaragara umuntu uri imbere yambaye ishati iririmo ibara ry'umweru. Inyuma ye haragaragara imodoka nini ya bisi. Ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka. Inyuma ya bisi hari akazu abagenzi bategererezamo.

Iyi modoka iri kugenda muri kaburimbo, kaburimbo iri mu ibara ry'umukara, mu gihe ibumoso bwayo mbere gato y'agahanda k'abanyamaguru hasize amabara y'umweru n'umukara.

Iyi modoka iri mu mabara yiganjemo y'umweru ihagaze ahantu muri gare, iburyo n'ibumoso bwayo haragaragara izindi modoka zakwasiteri ndetse haragaragara n'abaturage.

Iyi ni modoka yo mu bwoko bwa bisi iri kugenda mu muhanda, ifite amabara yiganjemo ay'umweru n'amapine y'umukara, inyuma hari inzu.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gishushanyijemo imodoka mu ibara ry’umweru. Hejuru hari inyuguti ya pa, gishyirwa ahahagararwa n'ibinyabiziga ku mwanya muto.

Iyi ni modoka ya bisi, iri mu mabara y'umweru. Amapine yayo agaragara ni abiri, kandi ari mu ibara ry'umukara. Mu modoka imbere harimo abantu, abagenzi, urebye neza urababona.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda, kiragaragaraho inyuguti ya EN, ijana na mirongo itanu na kabiri n'izindi iburyo hejuru ST, biri mu mabara y'umukara, icyapa cyo, kiri mu mabara y'umweru.

Hano haragaragaramo umugabo wambaye ikoboyi y'ubururu n'ishati y'umweru, hakagaragaramo kandi imodoka za bisi ebyiri, uwo muntu ari hagati yazo, ziri muri gare izo modoka.

Hano haragaragara icyapa gifite tutwapa tubiri, turi mu mabara y'umweru. Yanyandikishijemo inyuguti mu mabara y'umukara, inyuma y''cyapa hari inzu kandi biragaragara ko bwije.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru gifitemo n'andi mabara atukura yanditseho, gishinze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kandi kiri mu byatsi bitoshye.

Ikigaragara cyane hano ni icyapa cyanditseho inyuguti ziri mu mabara y'umukara, icyapa cyo kiri mu mweru. Inyuguti ni e na cumi na gatandatu ave inyuma hari amazu.

Iyi modoka irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, uciyemo umurongo w'umuhondo urombereje. Iruhande rw'uwo muhanda ibumoso hari amabara y'umweru n'umukara.

Iki cyapa kiri mu mabara y'umweru kiragaragaza urusengero rw'Abadominikani ruherereye mu karere ka Nyagatare. Inyuma y'iki cyapa hari kaburimbo ndetse n'uduhanda tw'abanyamaguru.

Aba bantu bari mu muganda abenshi muri bo bambaye imipira iri mu ibara ry'umukara bamwe bari imbere abandi inyuma.

Uyu mupolisi n'uw'Igihugu cy'u Rwanda, yambaye impuzankano y'ikigo gishinzwe kurinda umutekano, afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Aba bantu biganjemo abasirikare ndetse n'abadaso. Abagaragara imbere cyane, bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bari ahantu mu busitani.

Aba baturage bari gukora igikorwa cy'umuganda. Uri hagati wambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi, ashinzwe umutekano ni umudasso, hagaragaramo kandi polisi. Bose bari gukorera hamwe.

Uyu mugore ugaragaraye imbere yambaye ikanzu y'igitenge. Afite indangururamajwi mu ntoki ze. Iburyo bwe hagaragara umusaza. Wambaye ingofero n'ikote n'ipantaro.

Aba baturage ni benshi bahuriye hamwe, harimo abagore, abagabo, ndetse n'abana abari imbere baricaye mu byatsi, mu gihe abari inyuma yabo bahagaze.

Uyu muntu ugiye guterura ibuye, yambaye impuzankano y'urwego rwa Polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Iburyo bwe haragaragara umugabo wambaye bote z'umukara.

Aba bantu ni benshi bose bafite intebe ariko ntibazicayemo ahubwo barahagurutse, barishimye bahuje umugambi, harimo abagabo n'abagore.

Aba n'abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, babiri muri bo bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, uri iburyo yambaye iyo myenda yambaye agatambaro ku kuboko, n'aho uwambaye umuhondo niwe ufite umupira imbere ye.

Iyi ni ifoto igaragaramo umunyezamu wambaye imyenda irimwo ibara ry'ubururu ari mu izamu rye bagiye kumutera penariti yiteguye kuyifata ugiye kuyimutera yambaye imyenda y'umuhondo.

Uru rubyiruko ruri gukina umupira w'amaguru. Bose bari kwirukanka mu kibuga k'ibitaka. Inyuma yabo haragaragara umuntu ndetse n'igare ririho amajerekani, n'ibiti bitoshye.

Aba bagabo bane, ni abakinnyi b'umupira w'amaguru. Bambaye imyambaro yo gukinana iri mu ibara ry'umuhondo, harimo n'irindi ry'umukara. inyuma haragaragara ibiti by'imiyenji kandi aba bose bari mu kibuga.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira uwuri imbere ari kwirukanka inyuma y'umupira bakinisha umupira w'amaguru.

Uyu musore yicaye muri sitade. Iburyo bwe hari ibikapu bibiri biri mu ibara ry'umukara. Ibumoso bwe hari ikindi gikapu. Yicaye ku gatebe gato, abafana bicaramo, iyo bari muri sitade.

Uyu muntu ugaragara imbere, yambaye imyambaro y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, ari kugenda mu kibuga kandi icyo kibuga kirimo tapi, inyuma ye hagaraga izamu ndetse n'umuntu wundi, uri kugenda na we.

Aba bantu ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari mu kibuga kitagira ibyatsi, hirya yabo hari abandi bantu babiri bagaragara. Inyuma y'abo bantu babiri haragaragara inyubako, yubatswe n'amatafari.

Aba bantu bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Babiri muri bo bari hagati bambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umuhondo, mu gihe abandi babiri bari ku ruhande, bambaye iyiganjemo ibara ry'ubururu.

Aba bari n'abatega rugori bari gukina umupira w'amaguru, uyu uri imbere yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara ndetse harimo n'amabara y'umweru, yambaye inkweto za godiyo agiye gutera umupira ishoti.

Aba bana barishimye baranezerewe kandi bicaye muri sitade, bose buri wese yagiye yicaye ukwe, uri imbere yambaye umupira w'umweru n'ingofero.

Aba abantu batanu bagaragara hano, ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, Bari kwirukanka mu kibuga gifite itapi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo. Hirya haragaragara rompuwe ikozwe mu ishusho y'uruziga iteyemo ubwatsi. Inyuma yayo hari akamodoka gato, kari mu ibara ry'umweru.

Iki cyapa kigaragara hano kiri mu ibara ry'umweru, ibumoso haragaragaramo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, haragaragara kandi ikirangantego cy'u Rwanda, handitsemo ijambo ingoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare.

Uyu muhanda ni kaburimbo, uragaragaramo umurongo uri mu ibara ry'umuhondo ucagaguye, ukikijwe kandi n'ibiti birebire cyane, hari kugendamo n'abaturage.

Uyu muhanda ni uw'ibitaka. Uri kugendamo umuntu umwe wambaye imyambaro y'umukara kandi ari kuvugira kuri telefone. Inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Iyi pikipiki iri kugendera mu kuboko kw'iburyo bw'umuhanda wa kaburimbo, uyitwaye yambaye kasike, mu gihe uwo atwaye na we ayambaye.

Aba bantu babiri bari kugenda mu muhanda, uri iburyo yambaye imyenda yincabari yacikaguritse, n'aho uri ibumoso yambaye umupira ushaje ndetse na bote ziri mu ibara ry'icyatsi n'ingofero.

Uyu mukobwa yambaye ijipo iri mu ibara ry'ubururu n'umupira w'umukara, ari kugenda iruhande rwa kaburimbo mugahanda k'abanyamaguru, ibumoso bwe haragaragara ibyatsi biri mu ibara ryiza ry'icyatsi ndetse n'ibiti.

Hano uyu ni umuhanda wangiritse ntabwo ukoze neza cyangwa se niba atari ukwangirika ntabwo urarangira. Iruhande hagaragara mu kuboko kw'ibumoso agahanda k'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo hagati hagaragara umurongo uciyemo, inyuma kandi hari indabyo ziri mu ibara ry'icyatsi.

Hano haragaragara cyane imbuga, irimo umugore uhetse umwana, akaba anafashe undi mwana n'ukuboko kwe kw'iburyo. Ibumoso bwabo haragaragara inzu ikikijwe n'ibiti bitoshye mu mabara y'icyatsi.